Umubyeyi ugaragara nk'aho akuze wagiye kuvoma amazi meza ku ivomero rusange tugezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wash mu Rwanda, aya mavomero ni byiza ko tuyabungabunga kuko adufasha byinshi mu kubona amazi asukuye akoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abana benshi ubona ko bakiri batoya bose bari gushaka kuvoma amazi n'ibiganza, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba tubatoza umuco w'isuku bakiri bato kugira ngo bazawuhorane kandi bazarusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi barimo abakuru ndetse n'abana, ikigaragara cyo ababyeyi bari guha abana amata, amata ni ingenzi cyane mu buzima ni byiza yuko abana bahabwa ibikomoka ku matungo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi benshi bicaye ahantu ubona ko higanjemo abagore n'umugabo, ikigaragara cyo ni abajyanama b'ubuzima, aba ni abantu b'ingenzi cyane mu buvuzi ndetse no mu mibereho y'abaturage.

Icyapa kinini kigaragaza umuryango mpuzamahanga wita ku bana UNICEF, uyu muryango ufasha byinshi cyane abatuye isi kuko wita kubuzima bw'abana ndetse n'ababyeyi babo ndetse ukanatera inkunga ubuvuzi ku isi yose.

Umwana w'umuhungu bigaragara yuko akiri mutoya, wambaye ikabutura y'umutuku, yunamye imbere y'ivomero rusange. Mu bigaragara ari kunywa amazi. Ni byiza yuko abana tubakangurira kunywa amazi meza, kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Abana benshi biganjemo abambaye impuzankano z'ishuri, ubona ko bunamye bari gutega amazi n'ibiganza bakaraba, ni byiza yuko twese dukangukira umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo turusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umugabo wishimye wicaye ku ijerekani ubona ko yaje kuvoma, amazi ku ivomero rusange. Ni byiza yuko tuvoma amazi meza bityo tukanayakoresha neza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu batanu barimo umukobwa umwe ubona ko ari mukuru ndetse n'utundi twana tune. Ibigaragara baje kuvoma amazi ku iriba ryahoze ari irya kera. Ni byiza yuko dukoresha aya mazi, ariko bikaba byiza kurushaho tuyakoresheje twabanje kuyashyiramo imiti iyasukura cyangwa kuyateka kuko ari ingenzi.

Umwana muto cyane wambaye ikanzu itukura, bigaragara yuko ari gukaraba intoki n'amazi meza, ni byiza ko tugira umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde indwara zitandukanye, zikomoka ku suku nke iba iri mu biganza byacu.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore ndetse n'abana, ubona ko bahuriye ku ivomero rusange. Ni byiza ko tubungabunga umutungo kamere ndetse n'ibikorwaremezo twegerejwe birimo n'amazi meza duhabwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Amazi ni ubuzima.

Umubyeyi ateruye umwana yamwiyegamitseho, umuganga biragaragara yuko arimo aramusuzuma, ni byiza yuko igihe umwana agize ikibazo ababyeyi be bagomba kumujyana kwa muganga kugira ngo ubuzima bwe bwitabweho.

Umubyeyi ateraru uyu mwana, birasa n'aho umwana yagize ikibazo ku mutwe muganga akaba arimo aramupfuka, ni byiza yuko ababyeyi igihe babonye umwana agize ikibazo ko bakwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi ku gihe.

Abantu batatu barimo n'umuganga ubona yuko arimo arakingira undi mugore. Ni byiza yuko duhabwa inkingo uko zateganyijwe kugira ngo turusheho kugira amagara mazima, kuko inkingo zidufasha kurwanya indwara zitandukanye binyuze mu kutwongerera ubudahangarwa mu mubiri.

Umumama uhetse umwana, mu bigaragara yagiye kuvomera mu ndobo, ariko mbere yo kuyivomeramo ari kubanza kuyikorera isuku; ni byiza yuko igihe cyose tugiye kuvoma amazi, dukoresha ibikoresho bisukuye kugirango twizere yuko dutahanye amazi asukuye.

Abana benshi bambaye impuzankano z'ishuri, mu bigaragara bari gukaraba ndetse bakananywa amazi meza, ni byiza y'uko Leta y'u Rwanda yegereje amazi ibigo by'ishuri, kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda zaterwaga n'amazi yanduye abana banywaga.

Abana bato babiri, bicaye imbere y'iriba. Ubona y'uko bari gukaraba intoki. Ni byiza yuko mu gihe dukaraba intoki, dukoresha amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda. Dukomeze twimakaze umuco w'isuku.

Ikirango cy'umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima Global Health Organizations ni ikigo kidufasha byinshi mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no mu bujyanama, ni byiza yuko dukurikiza inama iki kigo kiduha ndetse tukarushaho kukibungabunga.

Umwana afite isabune mu ntoki, birasa n'aho hari umuntu mukuru ufite ijage urimo umusukira amazi yo gukaraba, ni byiza ko abana bacu tubatoza umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo barusheho kwimakaza isuku, birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ubantu babiri, umwe ubona yuko ari umumama yunamye ahantu mu mugezi ari kuvoma amazi n'ijerekani. Inyuma ye hari undi mugabo uri koza igare. Mu bigaragara ari kuvoma amazi atari meza. Ni byiza yuko dukoresha aya mazi twabanje kuyashyiramo imiti ndetse twabanje no kuyateka kuko aba arimo umwanda.

Umwana w'umuhungu ubona ko ari mukuru arunamye hejuru y'indobo afite isabune, murumuna w'iwe afite ibinika irimo amazi, bigaragara y'uko ari kumusukira amazi ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni byiza ko natwe dukangukira gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo turusheho kwimakaza isuku no kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Umuganga uri ahantu mu cyumba, ubona y'uko kirimo ibikoresho byinshi byiganjemo iby'ikoranabuhanga, ni byiza y'uko ibikoresho by'ikoranabuhanga byatejwe imbere mu buvuzi, kuko bidufasha mu kubona indwara zitandukanye, zihisha mu maraso ndetse no mu mitsi, ahatabasha kubonwa n'amaso, dukomeze tuyibungabunge.

Abamama bane harimo abaturage batatu ndetse n'umuganga. Ikigaragara cyo muri abo baturage harimo umwe bari gusuzuma bakoresheje icyuma gisuzuma umuvuduko w'amaraso. Ni byiza y'uko tujya kwisuzumisha haba abato n'abakuru kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Umwana muto wambaye ikanzu itukura urimo urakaraba ku ivomero rusange. Ni byiza yuko tugira umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Iri vomero biragaragara yuko ari irya WASAC, ni byiza yuko kandi tunabungabunga aya mavomero kuko ari ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiryango Mpuzamahanga yita ku buzima. Harimo Unicef, harimo UNCHR, harimo WaterAid, World Bank Group, Sanitation and Water for All ndetse n'indi. Iyi yose ifatanyiriza hamwe mu gutera inkunga Ibihugu by'umwihariko ibiri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo bibashe kubona iby'ibanze bikenewe mu buzima.

Umwana wambaye impuzankano z'ishuri arimo akaraba amazi meza ku ivomera ubona ko ryubatse mu buryo bugezweho. Umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni umuco dukwiye gutora twese kuko udufasha kwimakaza isuku tukirinda indwara zituruka ku mwanda.

Ababyeyi babiri bambaye udupfukamunwa bateruye abana, ubona yuko bashobora kuba baje kubakingiza cyangwa kugira serivisi zindi z'ubuvuzi babahesha, ni byiza yuko ababyeyi bakurikirana imikurire ndetse n'imibereho myiza y'abana babo, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu batatu b'ababyeyi, umwe ari kuvoma abandi babiri bafashe icyuma gituma babasha kuvoma amazi, aya mariba yari ayakera, ubu ngubu hari amariba meza agezweho yifashishwa mu gukwirakwiza amazi mu baturage.

Abantu batatu bafite ibikoresho byo kuvomeramo bunamye mu mugezi utemba, bigaragara yuko barimo baradaha amazi. Ni byiza ko igihe tugiye gukoresha aya mazi tubanza kuyasukura ndetse no kuyateka kuko aba arimo umwanda mwinshi.

Umwana wambaye impuzankano z'ishuri, biragaragara yuko ari gukaraba mu mazi meza aturuka ku gikoresho cyitwa kandagira ukarabe, ni byiza yuko tugira umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Ahantu hari abantu benshi higanjemo abana n'ababyeyi. Ubona ko ababyeyi bari guha abana igikoma. Ni byiza ko ku ifunguro duha abana twongeraho n'igikoma kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umwana muto wishimye cyane, wunamye imbere y'iriba arimo aroga mu maso. Ni byiza y'uko dukoresha amazi meza kugira ngo turusheho kwirinda indwara zikomoka ku mwanda. Dukomeze tubungabunge aya mariba kugira ngo ikibazo cy'amazi gicike.

Abantu benshi cyane biganjemo abambaye impuzankano zigaragaza ko ari abaganga. Ni byiza y'uko aba bantu baduha serivisi zinoze kandi ni abantu b'ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akazi kabo ni ndakemwa mu guteza imbere ubuzima bwiza bw'abantu.

Icyapa kinini kiriho ibirango by'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Uyu muryango ugira uruhare runini cyane mu buvuzi bwo hirya no hino ku isi binyuze mu gutanga inkunga z'imiti mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko ibikiri mu nzira y'amajyambere.

Abantu babiri umwe ubona yuko ari umuganga, undi akaba ari umurwayi, biragaragara yuko umuganga ari kuvura uwo murwayi, ni byiza yuko igihe cyose twagize ikibazo cy'ubuzima, tugana muganga kugira ngo dufashwe hakiri kare tubonere ubuvuzi ku gihe.

Abantu benshi bicaye basa n'abatonze uruziga bafite amakaye yo kwandikamo, ubona y'uko bari guhabwa inyigisho ndetse banaganira. Iyi gahunda ni nziza kuko ituma abantu bungurana ibitekerezo ndetse bakanahugurana, bityo hakavamo igisubizo kirambye.

Abantu benshi batonze umurongo ubona yuko ari abajyanama b'ubuzima, aba ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda kuko badufasha batugira inama zijyanye n'ubuzima ndetse bakanatanga n'ubuvuzi.

Umubyeyi aricaye ateru uyu mwana ubona ko muganga arimo aramuha umuti, ni byiza ko igihe umwana agize ikibazo cy'uburwayi ababyeyi be bagomba kumwihutana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi ku gihe bityo uburwayi bukire budateje ibindi bibazo.

Abana benshi bambaye impuzankano z'ishuri mu bigaragara bose bafite udukombe, bagiye kunywa amazi aturuka ku kigega, ni byiza yuko abana begerezwa amazi asukuye igihe bari ku ishuri kugira ngo birinde indwara zikomoka ku kunywa amazi yanduye.

Abantu benshi biganjemo abana baricaye. Imbere yabo hari umugabo urimo urakina n'umwana. Ni byiza yuko ababyeyi b'abagabo na bo bita ku burere bw'abana kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza haba mu bwenge ndetse no mu mbamutima.

Umugabo wambaye impuzankano y'abanyamakuru. Afite igikapu ubona ko ari kugenda aha ibinyamakuru abaturage ngo basome. Ni byiza ko tugira umuco wo gusoma ndetse no gukurikirana amakuru, kugira ngo tubashe kumenya uko isi yiriwe, ndetse n'uko iraye.

Abantu benshi baricaye. Urabona y'uko hari abakora mu nzego z'ubuzima bafite na mudasobwa, barimo baragenda bandika abaturage. Biragaragara y'uko bashobora kuba baje kwipimisha cyangwa kwivuza. Ni byiza y'uko serivisi nk'izi ngizi zegerejwe abaturage bityo ubuvuzi burushijeho gutera imbere kandi n'ubuzima bw'abaturage burabungabunzwe.

Umuntu bigaragara yuko akiri mutoya yagiye kuvoma mazi ku ivomero rigezweho ni byiza yuko aya mavomero yegerejwe abaturage bityo bakaba babasha kubona amazi meza abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, ni byiza yuko dukoresha amazi meza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda kandi aya mariba tuyabungabunge.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bafite icyapa cy'umuryango Mpuzamahanga wita ku bana UNICEF, uyu muryango utanga serivisi zitandukanye ndetse utera inkunga ibihugu byinshi cyane mu bijyanye no kwita ku bana, ni byiza y'uko dushishikarizwa gukorana n'uyu muryango neza.

Inshinge nyinshi ubona ko zigipfunitse, iruhande rwazo hari agacupa karimwo muti, ibi byose byifashishwa igihe bari gutanga inkingo cyangwa igihe bari gutanga ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Abana benshi bambaye impuzankano z'ishuri, mu bigaragara bafite udukombe bigaragara yuko bagiye gutega amazi ku bikoresho bigezweho biyungurura amazi. Ibi bikoresho bidufasha kubona amazi meza atarimo imyanda twakwifashisha ndetse tukaba twanayanywa.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri, ubona y'uko imbere yiwe hateretse akabase k'umuhondo, mu bigaragara arimo arakaraba intoki, ni byiza y'uko abana tubatoza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune bakiri bato, kugira ngo bazakurane uwo muco, bityo bibarinde indwara zikomoka ku mwanda.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ikabutura y'umukara werurutse, iruhande rwiwe hari indobo, inyuma yiwe hari indi ndobo ntoya, ikigaragara cyo ari gukaraba amazi meza, ni byiza rero yuko twimakaza umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo ngo turusheho kwimakaza isuku no kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri umugabo n'umugore. Birasa naho umugore ari kubwira ikibazo umugabo afite. Ni byiza yuko abantu bafite ikibazo baganirizwa kugira ngo babashe kuruhuka umutima ndetse bahabwe ubuvuzi igihe biri ngombwa.

Ishusho rusange igaragaza ikigereranyo cy'abiyahura mu Rwanda, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, icyiza cyo kwishimira ni uko impfu z'abantu bapfa biyahuye zagabanutse muri iki gihugu.

Ababyeyi babiri bateruye umwana, bicaye bakikije ameza, hagati yabo harimo umukobwa bisa naho akiri muto, arimo arabagira inama ku bijyanye no kwita ku bana babo mu buryo bw'imirire. Ni byiza yuko twita ku bana bacu, tubagaburira indyo yuzuye ndetse tubonsa bihagije kugira ngo bakure neza.

Umusaza wambaye ishati yera iciyemo imirongo y'umukara, yambaye umwitero w'umuhondo ndetse n'ingofero afite icumu mu ntoki, bigaragara yuko ari kubyina indirimbo gakondo, izi ndirimbo ni nziza cyane ndetse n'imbyino gakondo zibungabunga umuco wacu, dukomeze tuzikomereho.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye umwenda w'ubururu bose bahuriyeho bigaragara y'uko ari abakozi b'umushinga runaka cyangwa bari mu bukangurambaga bujyanye n'ubuzima, ni byiza y'uko urubyiruko na rwo rufasha inzego zitandukanye z'ubuvuzi mu kubungabunga ubuzima bw'abantu.

Umuntu w'umugabo ubona ukenyeye igitenge, ubona afite umusatsi, udafite isuku habe na mba, yicaye ku muyoboro w'amazi. Mu bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza yuko abantu nk'aba na bo bitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bubungabungwe.

Umugabo uri kurira mu bigaragara afite ikibazo kimukomereye cyane, ni byiza yuko igihe tubonye abantu bafite ibibazo tugomba kubegera tukabaganiriza kugira ngo tubarinde kwiheba bityo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera abahohotewe cya Isange one stop center n'abafatanyabikorwa bacyo, barimo polisi y'u Rwanda, UNICEF ndetse n'ibindi bigo. Iki kigo gifasha abahohotewe kubona ubuvuzi ndetse kikanabafasha kubona ubutabera, ni ingirakamaro cyane.

Abantu babiri bicaye, umwe ni umugabo undi ni umugore, birasa n'aho umugabo yihebye afite ikibazo kimukomereye, umugore ari kumuganiriza amugira inama, ni byiza yuko abantu bafite ikibazo bakunze kwigunga ari bonyine tugomba kubasanga tukabaganiriza, bakatubwira ikibazo bafite kugira ngo babashe kuruhuka, dufatanye kurinda ubuzima bwo mu mutwe.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza. Bigaragara yuko ari kurya ibisuguti yishimye. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bitabwaho bakiri bato kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi. Ubona y'uko abenshi muri bo bambaye imyenda, imipira imeze kimwe. Birasa naho bari guhabwa amahugurwa runaka ajyanye no kwita ku buzima bwabo. Aya mahugurwa ni meza kuko tuyungukiramo ubumenyi butandukanye budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abana benshi biganjemo abambaye impuzankano z'ishuri ubona yuko bishimye. Ni byiza yuko abana bahabwa uburere bakiri bato bityo bakanahuzwa n'abandi kugira ngo bazakure bafite imibanire myiza ndetse n'imico myiza ndetse n'ubuzima bwiza.

Ahantu heza hateguye neza. Ubona yuko ko harimo intebe n'abantu bicaye neza. Ukurikije ibyapa biri inyuma, biragaragaza yuko hari hagiye kubera umunsi mukuru wahariwe kurengera ubuzima bwo mu mutwe. Ni byiza yuko ubuzima bwo mu mutwe bubungabungwa kuko bwateza ibibazo bitandukanye.

Icyapa kinini cyane cyanditseho wihogora, kiriho uruziga rw'umuhondo ruriho ibiganza birupfumbase, bigaragaza yuko tugomba kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe ariyo soko y'ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi miremire ipfundikiye ku kumutwe. Mubigaragara yubitse umutwe yifashe ku mutwe bigaragara yuko afite ikibazo nibyiza yuko abantu nkabo ngaba baganirizwa kugirango babashe kuba baruhuka umutima bityo twese dufatanye kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wicaye yigunze birasa n'aho afite ikibazo, ni byiza yuko abantu nk'aba bakunze kwicara bigunze ahantu habonyine bagira umuntu ubaganiriza kugira ngo amenye ikibazo bafite bityo niba gikenera kuvurwa abe yavurwa hakiri kare.

Umuntu bigaragara yuko akiri mutoya, wambaye ubusa, mu bigaragara yicaye ahantu hadafite isuku ndetse n'umutekano wiwe utizewe, bigaragara yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza yuko abantu nk'abo ngabo basangwa bakaganirizwa kugira ngo tubarinde kwiheba abo bishobotse bahabwe n'ubuvuzi.

Umugabo ubona y'uko asa n'aho ari mukuru. Yambaye imyenda isa nabi ndetse n'ibindi bintu utamenya ibyo ari byo, mu bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza y'uko abantu nk'aba ng'aba bitabwaho cyane, kugira ngo ubuzima bwabo bubungabungwe.

Umuntu ubona y'uko akiri mutoya. Agaragara igice kimwe ariko ubona y'uko ijisho rye ryarize bigaragara y'uko ababaye, afite ikibazo. Ni byiza y'uko abantu nk'abo ngaba tubaganiriza hakiri kare kugira ngo tubarinde kwiheba bityo barusheho kugira icyizere cy'ubuzima.

Abantu benshi baricaye, ubona yuko ari abakuze, mu by'ukuri harimo n'abaganga, abaganga ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwacu, kuko badufasha mu kuvura indwara zitandukanye zangiza ubuzima bwacu.

Umumama ukiri mutoya, wasetse cyane, ubona yuko arimo yerekana amenyo y'iwe ko ameze neza. Uyitegereje urabona yuko afite amenyo y'urwererane. Bigaragaza yuko agirira isuku mu kanwa he. Ni byiza yuko natwe dukangukira kugira isuku mu kanwa, kugira ngo twirinde indwara zitandukanye, zifata amenyo.

Igishushanyo kigaragaza imiterere y'amenyo. Ni byiza yuko twese tugira ubumenyi buhagije ku menyo yacu, kugira ngo tumenye uburyo bwo kuyitaho bityo turusheho kwirinda indwara zafata amenyo yacu.

Umukobwa aricaye. Afite indorerwamo mu ntoki, arimo araseka yirebeshaho indorerwamo, ngo arebe niba amenyo yiwe nta kibazo afite. Ni byiza yuko duhora dusuzuma amenyo yacu, kugira ngo turebe niba nta ryaba rifite ikibazo, bityo tugane kwa muganga, hakiri kare.

Abana benshi bafite udukombe mu ntoki, bafite uburoso ubona yuko buriho umuti wo koza amenyo, ni byiza y'uko abana bacu tubakangurira gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Abantu benshi bambaye imyambaro y'icyatsi kibisi yanditseho tubiteho, mu bigaragara ni abaje kwivuza amenyo, inyuma yabo hari abarimo barabafasha, ni byiza ko igihe tugize ikibazo cy'amenyo tugomba kujya kwa muganga kugira ngo badufashe duhabwe ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Icyumba cyiza, ubona yuko kimeze neza. Kirimo ibikoresho byinshi birimo intebe, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu bigaragara, ni icyumba cyakirirwamo abarwayi b'amenyo. Ni byiza ko igihe tugize ikibazo cy'amenyo, twagana muganga, kugira ngo tuvurwe.

Umubyeyi ukiri mutoya wambaye isengeri y'umweru, afite imisatsi miremire ari kumwe n'umwana we muto wambaye na we isengeri y'umweru ufite imisatsi iboheye inyuma, bombi bafite uburoso buriho umuti w'amenyo bigaragara yuko umubyeyi ari gufatanya n'umwana we bakora isuku y'amenyo. Ni byiza ko dukangurira abana kwita ku isuku y'amenyo yabo bakiri batoya kugira ngo bazabikurane.

Umuganga uri kumwe n'umuforomo ndetse n'umurwayi. Uyu murwayi arasamye bari kumushyira akantu k'akuma mu kanwa bigaragare yuko bashobora kuba bari kumuvura amenyo. Ni byiza yuko igihe ugize ikibazo ku menyo ugomba gusanga muganga kugira ngo agufashe.

Umwana muto uryamye ureba hejuru. Mu bigaragara inyuma ye hari umuganga ufite utwuma bisa naho uyu mwana bagiye kumuvura amenyo. Ni byizayiza yuko igihe cyose tugize uburwayi bw'amenyo tugomba kugana muganga kugira ngo tuvurwe hakiri kare.

Umwana mutoya wambaye imyenda ifite isuku ndetse yicaye ahantu ubona yuko ko hasukuye, afite uburoso buriho umuti w'amenyo. Ni byiza yuko abana bakangurirwa gukora isuku yo mu kanwa bakiri bato kugira ngo uwo muco bazawukurane, bityo biririnde indwara zifata amenyo ndetse n'ibindi bice byo mu kanwa.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri bigaragara yuko bari mu ishuri. Bose bafite udukarito turimo umuti w'amenyo ndetse n'uburoso. Ni byiza yuko abana bose bakangurirwa gukora isuku y'amenyo, bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso kugira ngo birinde indwara zifata amenyo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Ni byiza ko igihe umuntu afite ikibazo cy'amenyo, yagana muganga kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi ku gihe, bityo amenyo yiwe akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Umwana muto arasamye. Muganga yamushyize utwuma mu kanwa bigaragaza yuko umwana ashobora kuba afite iryinyo rifite ikibazo muganga ari kuvura ni byiza yuko dusuzuma amenyo yacu ndetse n'ay'abana bacu tukareba niba nta kibazo afite haba hari ibifite ikibazo tukajya kwa muganga tukivuza.

Ababyeyi benshi bari hamwe ubona yuko bose bageze mu zabukuru, ni byiza yuko aba bantu bageze muri iki gihe, bahuzwa kugira ngo baganire bubake ubucuti bityo babeho bishimye.

Umugabo bigaragara yuko ageze mu za bukuru, afatanye ku rutugu n'umukobwa bigaragara yuko we akiri mutoya, ni byiza yuko abantu bageze mu za bukuru, nabo berekwa urukundo, kugira ngo barusheho kugira amasaziro meza.

Abantu babiri, umwe ubona yuko ari umugabo ukuze w'umusaza, undi ukabona ko ari umukobwa ukiri muto. Uwo mukobwa ukiri muto, ari gufasha uwo musaza kugenda, mu gihe umugabo nta maguru afite. Ni byiza yuko abantu nk'aba na bo bitabwaho kugira ngo barusheho kugira icyizere cy'ubuzima.

Abantu babiri umwe ubona yuko ari umugabo ugeze mu zabukuru, undi ukaba ubona yuko ari umuganga ukiri mutoya, ni byiza yuko aba bantu bageze mu zabukuru bitabwaho n'abaganga, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bubungabungwe.

Umugabo wambaye ishati itukura n'amadarubindi ubona ko akuze. Afite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitabo bigaragara y'uko arimo arasoma. Ni byiza ko twese turushaho gusoma kugira ngo tubeho tunezerewe kandi turusheho kunguka ubumenyi.

Abantu babiri barimo umugabo ubona yuko akuze. Mu bigaragara bari gukina umukino uzwi nka damu, ni byiza yuko abantu bakuru na bo basabana n'abandi bakiri batoya kugira ngo barusheho kubaho banezerewe bityo iminsi yabo yiyongere.

Abantu babiri, umwe ni umugabo undi ni umugore, bigaragara y'uko bari gukora siporo kandi bishimye, ni byiza y'uko twese dukangukira gukora siporo, haba bato ndetse n'abakuru kuko siporo ari ubuzima.

Umuryango mugari urimo umugabo ndetse n'umugore ubona ko bageze mu za bukuru, ndetse n'undi mugore ukiri mutoya hamwe n'umugabo we, bakaba bari kumwe n'abana babiri. Ni byiza yuko twishimana n'umuryango mugari, kugira ngo turusheho kubana neza.

Abagabo babiri ubona yuko bageze mu za bukuru, bari gukora imyitozo ngororamubiri bafite n'amazi mu ntoki, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo bigaragara y'uko ageze mu zabukuru, bitewe n'imvi afite. Yicaranye n'umwana ubona ko bari gukina. Ni byiza yuko abantu bose bageze muri iki kigero bagira abantu babitaho kugira ngo bagire amasaziro meza.

Umuryango mugari urimo umubyeyi w'umumama ndetse n'abana, mu bigaragara bari kureba televiziyo, ni byiza yuko twishimana n'umuryango kugira ngo turusheho kubana neza ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umugabo bigaragara yuko ashaje ari kumwe n'umuganga, ni byiza yuko abaganga begera abantu bageze mu za bukuru kugira ngo babashe gukurikirana imibereho yabo ndetse barusheho kubagira inama bagira icyizere cy'ubuzima bw'ejo.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi ndetse n'abagabo, ubona yuko bari ahantu mu bimera bitandukanye, ni byiza yuko twishimana n'inshuti n'abavandimwe kandi tukabungabunga n'ibidukikije.

Abantu babiri, umwe ni umugabo undi ni umugore, ubona y'uko umugore akora akazi k'ubuganga, ikigaragara cyo umugabo yicaye mu kagare, umuganga ari kumwitaho amuha ubutabazi bw'ibanze, harimo no kumufasha guhindura icyerekezo, kuva mu mwanya yari arimo akoresheje akagare.

Umugabo bigaragara yuko ageze mu zabukuru ari kumwe n'umugore ukiri mutoya, birasa n'aho umuganga ari kumufasha kururuka ku gitanda, ni byiza yuko abantu bageze mu zabukuru nabo bitabwaho kugira ngo barusheho kugira icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Umubyeyi bigaragara ko akuze. Yicaye ahantu ubona ko ari mu kigunda ni ho ari gutekera. Ni byiza y'uko abantu nk'aba ngaba bafashwa kugira ngo babone ahantu ho gutekera, hadashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bakoreshe ibikoresho bitangiza ibidukikije.

Ababyeyi ubona ko bakuze, bafite telefone. Umwe ari kubereka, ibintu bishimishije. Ni byiza yuko abantu nk'aba na bo bahurira hamwe, kugira ngo babashe kwitabwaho, ndetse babashe no gusabana.

Abantu babiri. umwe ubona yuko ari umugore ukiri mutoya, undi ukaba ubona yuko akuze; bose bari gutegura imbuto n'imboga. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira kurya imbuto n'imboga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ubona ko ashaje, ufite ikirahure mu ntoki, ari guhabwa imiti n'umuganga w'umukobwa. Imbere yabo hari agakarito k'imiti. Ni byiza ko igihe umuntu mukuru agize ikibazo agomba kwitabwaho cyane, kugira ngo ahabwe ubuvuzi bukwiye.

Umuntu bigaragara y'uko ageze mu za bukuru aryamye yashinze inkokora bigaraga y'uko nawe ari mu myitozo ngororamubiri. Ni byiza y'uko abantu twese dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Umurwayi, arwariye mu cyumba ubona ko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ikoranabuhanga ni byiza mu buvuzi kuko bituma hatangwa serivisi z'ibanze kandi zikihuta, ni byiza ko tubibungabunga kugira ngo ubuvuzi bukomeze butere imbere.

Ababyeyi ubona yuko bakuze imbere yabo hari inyanya, inyuma yabo hari izindi mbuto zirimo n'amacunga, ni byiza yuko abantu bageze muri iki gihe nabo bakangukira kurya imbuto ndetse bakanitabwaho mu buryo butandukanye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuryango mugari urimo umusaza n'umukecuru, ukabamo umugabo n'umugore ndetse n'abana babiri batoya, umuhungu n'umukobwa. Witegereje neza urabona ko uyu muryango wose wishimye. Ni byiza ko twishimana turi umuryango kugira ngo turusheho kubana neza mu mahoro.

Umuntu ugeze mu zabukuru mu bigaragara ni umusaza, ari mu bwogero ubona yuko hari undi muntu urimo uramwoza, ni byiza yuko aba bantu tubitaho tubakorera isuku ndetse tunababa hafi kugira ngo barusheho kugira amasaziro meza.

Abantu benshi bateraniye ahantu ubona ko ari heza. Barimo ababyeyi babiri, umwe ubona ko akiri muto n'undi ubona ko akuze. Umubyeyi muto ari guha impano umubyeyi mukuru. Ni byiza ko twita ku bantu bageze mu gihe cy'izabukuru kugira ngo bakomeze kugira amasaziro meza.

Umugabo ubona ko akuze, atera uyu mwana, umwana afite igikinisho, ni byiza yuko abantu nk'aba ngaba basabana n'abana ndetse bakanabaganiriza kugira ngo abana bazakure babiyumvamo, ndetse banabamenyereze imico ya kera, na bo bakure bafite umuco bityo gakondo yacu ntigacike.

Igitabo gifite umuvuniko w'umuhondo, bigaragara yuko kigenewe abana bo mu mashuri yisumbuye. Mu bigaragara byo, kirigisha abo bana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni byiza ko aba bana bahabwa amasomo ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo barusheho kwitwararika, bityo bagire ubuzima bwiza.

Inama yabereye mu mujyi wa Kigali, ku itariki Makumyabiri z'ukwa Cumi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ifite insanganyamatsiko yo kurwanya no guhagarika icyorezo cya Murburg. Ni byiza ko dufatanya tukirinda icyorezo cya Murburg kuko ari icyorezo kibi, gishobora guhitana ubuzima bwa benshi muri iyi si. Dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Abantu benshi biganjemo abakobwa ubona yuko bakiri bato. Ni byiza yuko abakobwa na bo bahabwa amahugurwa mu bijyanye no kwirinda ndetse no gukumira indwara zitandukanye bityo tukarushaho kubungabunga ubuzima bwacu.

Abantu benshi bicaye ahantu heza ubona yuko higanjemo abayobozi inyuma bo handitse herifu andi polisi copferensi . Bigaragaza yuko ari inama yigaga ku bushakashatsi ndetse n'ingamba zijyanye n'ubuzima. Ni byiza yuko izi nama zikorwa kenshi kugira ngo ubuvuzi bukomeze buvugururwe bujyane n'igihe

Inyandiko igaragaza ibimenyetso bya diyabete harimo kumva ufite inyota, gutakaza ibiro mu buryo utiteze, kumva ufite umunaniro ndetse no gushaka kujya ku bwiherero kenshi cyane. Ibi ni ibimenyetso biranga indwara ya diyabete, bityo igihe ugize ibimenyetso nk'ibi ngibi ni byiza y’uko wagana muganga akagufasha.

Abantu bane, harimo abagabo babiri n'abakobwa babiri, ubona ko bari kwerekana udukingirizo. Ni byiza ko urubyiruko ndetse n'abandi bakoresha udukingirizo kugira ngo birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kuba batera inda zitateguwe. Dukomeze twirinde, tugire ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho ifite ubusitani bumeze neza butoshye yanditseho ikigo nderabuzima cya Rwerere, izi ni inzu zidufasha kubona serivise zitandukanye zitangirwa kwa muganga, ni byiza y'uko igihe cyose tugize ikibazo cy'uburwayi tugana ibigo nderabuzima kugira ngo badufashe.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ubona ifite igisenge cy'amabara y'ubururu ndetse ikaba iteye amarange y'umweru. Bigaragara yuko ari inyubako nziza, ikaba ari inzu y'ababyeyi cyangwa materinite, aho ababyeyi babyarira. Ni byiza yuko izi nzu zegerejwe abaturage kandi dukomeze tuzibungabunge.

Inyubako nziza cyane y'amagorofa abiri, yubatse ku buryo bugezweho. Imbere yayo, haparitse imodoka ndetse ubona yuko hari n'ubusitani. Birasa n'aho iri ari ivuriro cyangwa ibitaro. Ni byiza yuko igihe twarwaye, tugomba kugana ibigo nk'ibi bikaduha ubuvuzi bwizewe.

Abantu benshi urabona yuko harimo umukobwa urimo utambuka ahantu heza cyane, inyubako nziza zirimo amakaro ziteye n'amarangi meza. Izi ni inyubako zo kwa muganga, zigomba kugirirwa isuku kandi zikabungabungwa kuko ariho hatangirwa ubuzima.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, witegereje neza urabona yuko ifite imihanda myiza ndetse n'inyubako zifite isuku, yanditseho Nyarugenge disitirigiti hosipito bigaragaza yuko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ni byiza yuko ibi bitaro bibungabungwa kuko tubonerayo serivise tutahasanga ahandi.

Umuryango munini cyane w'igipangu, wanditseho Kabgayi hospital, bigaragaza y'uko aha ngaha ari ku bitaro bya Kabgayi, ibi ni ibitaro bikuru bitanga serivisi zisumbuyeho kuzo ibigo nderabuzima bitanga, ni byiza y'uko igihe byananiranye ku bigo nderabuzima tugana ibitaro kugira ngo duhabwe ubuvuzi bwisumbuyeho.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, inkuta zayo ziteye amarangi y'umukara ndetse n'umweru, ifite igisenge cy'umutuku, imbere yayo hari amabendera. Mu bigaragara ni aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umwana gikorera. Ni byiza yuko iki kigo kirushaho gutanga serivise nziza mu kubungabunga ubuzima bw'umwana.

Umuganga wicaye mu cyumba imbere ye afite mudasobwa haba inini yaba ni ntoya. Ikigaragara cyo ari kureba imiterere y'umugongo w'umuntu. Ni byizayiza yuko tugana muganga kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho ubona yuko imbere hayo hafite isuku. Harimo ibikoresho byinshi byiganjemo iby'ikoranabuhanga. Ni byiza ko amavuriro ndetse n'ibitaro yashyizwemo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu gutanga serivisi zinoze.

Inyubako nziza yubatse yubakishije amatafari ndetse ikaba isakaje amabati ubona yuko yubatse neza, kuri iyo nyubako hariho icyapa cyerekana yuko ari ahantu havurirwa amaso, ni byiza yuko igihe umuntu wese agize ikibazo cy'amaso yagana muganga agafashwa.

Abagabo babiri, umwe bigaragara ko ari umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, undi akaba ari umuyobozi, umukozi wa RBC ari gupima umuvuduko w'amaraso umukozi w'Irembo, inyuma yaho hari kizimyamwoto, ni byiza yuko ubuvuzi bwegerejwe abaturage, bityo turusheho kwisuzumisha ndetse no kwivuza kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ubona yuko isukuye. Abantu bari guca munsi yayo. Ni byiza cyane ndetse n'ibyo kwishimira ko serivisi zitangirwa kwa muganga zisigaye zitangirwa ahantu heza hafite isuku, bityo ubuvuzi bunoze bukagera kuri bose.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amagorofa atatu, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri, ukurikije iki cyapa kiyiriho cyanditseho Polyclinique de l'Etoile gisobanura, birasa naho aha ngaha ari ivuriro, ni byiza ko tubungabunga amavuriro mato nk'aya ngaya kugira ngo arusheho kudufasha gutanga ubuvuzi bunoze.

Inzu nziza, ubona yuko irimo ibitanda bigezweho, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, birimo n'amazi yo kunywa meza. Ni byiza rero ko tubibungabunga, kuko bidufasha mu kubungabunga, ubuzima bw'abarwayi. Bidufasha kandi mu gutanga ubuvuzi bunoze. Ni byiza rero ko tubibungabunga.

Inyubako nziza yubatse mu buryo butangaje ubona higanjemo ibikoresho byinshi cyane by'ikoranabuhanga, izi nzu zegerejwe abaturage kandi zifasha mu buvuzi bugezweho, bityo impfu z'abantu bapfira kwa muganga zikagabanuka, dukomeze tuzibungabu.

Icyumba cyiza kirimo inzugi z'ibyuma ndetse n'ibirahure, giteye amarange meza y'umweru, cyanditseho operesheni rumu, bigaragaza y'uko ari aho abantu bajyanwa igihe bagiye kubagwa. Ni byiza yuko igihe umuntu agize ikibazo gisaba kubagwa agana aha hantu kugira ngo afashwe.

Inyubako nziza cyane, ifite inzira zigezweho, ndetse n'ubusitani ubona yuko bumeze neza. Ukurikije ibyanditse ku muryango w'iyi nyubako, ni ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, utabasha kubona ahandi. Ni byiza yuko ibi bitaro bibungabungwa, ndetse bikanafatwa neza.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, ubona yuko ifite isuku, ifite ubusitani bumeze neza, hejuru hayo hariho icyapa cyanditseho Rwanda Cancer Centre, bigaragaza yuko ari ikicaro k'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kurwanya kanseri, iki kigo gifasha byinshi cyane mu gutanga ubukangurambaga ndetse no gutanga ubuvuzi ku bantu bafashwe n'iyo ndwara ya kanseri.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite aho umuntu ahagarara arimo avuga ijambo, ikagira ameza maremare ndetse n'intebe nziza ubona ko zigezweho, ni byiza y'uko ahantu nk'aha ngaha hagenerwa ibikorwa b'ingirakamaro kuko ni ahantu heza.

Icyumba cyiza giteguwe mu buryo bugezweho ubona ko gifite isuku. Kirimo ibitanda bimeze neza, kirimo utubati ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, tutibagiwe n'ububiko bwimbuto ubona yuko bumeze neza. Ni byiza ko dutegura icyumba cy'abarwayi neza kugira ngo abarwayi bahabwe ubuvuzi bunoze.

Icyumba cyiza kirimo ibitanda bigezweho ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ubona ko ari icyumba kibereye kwakira abarwayi. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwaremezo twegerejwe, by'umwihariko ibikoreshwa mu buvuzi, kuko ari ingenzi cyane mu mibereho y'abaturage.

Ahantu heza cyane, hari utubati tugezweho, ubona y'uko turi mu miti itandukanye, ni byiza yuko imiti ibungabungwa ndetse ikabikwa neza, kugira ngo itagira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu uyinyoye.

Inyubako nziza cyane, yubatse mu buryo bugezweho y'amagorofa abiri, Ubona y'uko harimo abantu. Iyi nyubako ni ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. Ibigo nderabuzima bidufasha mu kubona serivise z'ubuvuzi bidasabye y'uko tujya ku bitaro bikuru. Dukomeze tubibungabunge.

Ahantu hari ibikoresho byinshi byifashishwa muri laboratoire; birimo microscope, bikabamo n'utundi dukoresho dutandukanye bifashisha mu bushakashatsi. Ibi bikoresho ni byiza ko tubibungabunga, kuko bidufasha byinshi mu buvuzi.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho bw'amagorofa, mu bigaragara ifite isuku, ifite imihanda imeze neza ndetse n'ubusitani, ni byiza ko serivisi zitangirwa kwa muganga zitangirwa ahantu hameze neza kugira ngo ireme ry'ubuvuzi rikomeze rizamuke.

Inyubako nziza ubona ko zubatse mu buryo bugezweho, zifite ubusitani bumeze neza ndetse n'imihanda ubona y'uko atari iy'ibitaka, ubona yuko imeze neza. Izi nyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Ni byiza ko tuzibungabunga kugira ngo turusheho kubona ubuvuzi bunoze.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho iriho icyapa cyanditseho Mediasol Pharmacy Kanombe, kigaragaza yuko iyi ari inzu icururizwamo imiti. Izi nzu ni ingirakamaro kuko zidufasha kubona imiti mu buryo bworoshye dukomeze tuzibungabunge.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite inkuta ziteye amarangi y'umweru ndetse n'igisenge giteye amarangi y'ubururu, imbere hari ubusitani bumeze neza ndetse n'ikigega. Mu bigaragara izi ni inyubako dukunze gusanga kwa muganga ziba zifite amasuku kandi zitangirwamo serivisi zinoze.

Abantu benshi barimo ingabo y'igihugu, abihaye Imana ndetse n'abaturage basanzwe, bari imbere y'inzu y'ababyeyi materinite. Iyi nzu ni nziza cyane kuko ifasha byinshi mu kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana igihe umugore utwite yagiye kubyara. Ni byiza ko tuyibungabunga kuko ari ingirakamaro.

Inyubako nziza igezweho yubatse mu buryo butangaje bwa etaje, urabona yuko abantu barimo barayigana biragaragara yuko iki ari ikigo nderabuzima, ni byiza yuko tubungabunga ibikorwa remezo twegerejwe birimo n'amavuriro.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ubona y'uko zifite isuku, imbere haparitse imodoka nyinshi cyane, zirimo n'imbangukiragutabara, mu bigaragara aha ni kwa muganga, hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ni byiza cyane y'uko hakomeje gutera imbere.

Abantu benshi bahagaze imbere y'aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, ni byiza ko abakozi bakora aha hantu batanga serivisi nziza kandi mu gihe tugannye ikigo nderabuzima, ni byiza ko tubanza guca aho bakirira abagana icyo kigo kugira ngo tubashe gusobanurirwa serivisi zose zitangirwa aho hantu n'aho zitangirwa.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho zifite ubusitani, witegereje neza ubona y'uko ari ibitaro, hari icyapa kirangira abantu aho serivisi zitandukanye zihabwa abarwayi zitangirwa.

Inyubako ndende cyane yubatse mu buryo bugezweho, yanditseho Polyclinique du plateau, bigaragaza y'uko ari ivuriro rikomeye cyane, aya mavuriro ni ingenzi cyane mu kubungabunga ubuzima bw'abantu.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho cyane, witegereje ubona ko ari inzu imeze neza, biragaragara yuko ari inzu y'ibitaro, ni byiza yuko inyubako nk'izi zibungabungwa kandi dushimira Leta irushaho guteza imbere ubuvuzi.

Umusore uryamye ku gitanda wambaye ingofero n'agapfukamunwa, iruhande rwe hari umuganga w'umukobwa, mu bigaragara urabona y'uko uyu mugabo agiye gutanga amaraso, ni byiza yuko dutanga amaraso kuko tuba dutabaye benshi ubuzima bwabo buba buri mu kaga.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Imbere yayo hari abantu bambaye imyenda y'ubururu, bigaragara yuko ari impuzankano y'abajyanama b'ubuzima. Ku rugo rw'iyo nyubako hariho igitambaro cyanditseho icyumweru cyahariwe kubungabunga no kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Ni byiza ko twita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana kugira ngo twubake ejo hazaza heza.

Inyubako nziza ubona yuko yubatse mu buryo bugezweho, iruhande rwayo hari ibendera ry'igihugu, ubona yuko ifite ubusitani bumeze neza abantu bari kuyigana, bigaragara yuko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, ni byiza ko tubungabunga izi nyubako.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe, kikabamo utubati ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, harimo umuganga, bigaragara y'uko ari ahantu hakirirwa abarwayi igihe baje kwa muganga, ni byiza ko tubungabunga ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi kugira ngo ubuvuzi burusheho gutera imbere.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ifite inkuta ziteye amarangi y'umweru ndetse n'ibisenge biriho amarangi atukura. Mu bigaragara ibi ni ibitaro bya Shyira bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi zigezweho, utabasha kubona mu bigo nderabuzima biciriritse.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho ubona bw'amagorofa, yanditseho: MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, bigaragaza y'uko ari ahantu hakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima, izi nyubako ni ingenzi cyane kuko zifasha mu gukora inkingo zitandukanye, ndetse no kuvura indwara z'ibyaduka.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ubona ko ifite jaride, inyuma yayo hari ikigega hafi yaho yicaye umwana wicaye mu kagare bigaragara yuko afite ubumuga, ni byiza y'uko abantu twese tugana ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro igihe cyose twahuye n'uburwayi.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Ibigo nderabuzima bidufasha cyane kubona serivisi z'ubuvuzi bitadusabye gukora ingendo ndende tujya gushaka ahari ibitaro, ni byiza yuko tubungabunga ibigo nderabuzima ndetse serivisi zitangirwamo zikarushaho kunozwa.

Inyubako nziza cyane zubatse ku buryo bugezweho, ubona y'uko zifite imihanda igezweho ndetse n'amajaride ameze neza, mu bigaragara ni ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni byiza y'uko tugana ibitaro kugira ngo tubashe kuvurwa igihe cyose tugize ikibazo cy'uburwayi.

Abantu babiri bahekanye ku igare, bari imbere y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, icyo kigo nderabuzima ubona yuko gifite inyubako nziza, imbere yacyo hari abantu benshi. Ni byiza rero yuko igihe abantu barwaye bagana ikigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Abantu batatu ubona yuko harimwo babiri bakuze ndetse n'umwe w'umwana. Umwe muri abo bantu bakuze, ni umuganga ubona yuko arimo arasuzuma umwana arebe niba nta burwayi afite. Ni byiza yuko tujya gusuzumisha abana, kugira ngo uburwayi bafite bukire hakiri kare.

Inyubako nziza zifite ubusitani, zifite imihanda igezweho ubona y'uko zifite n'amashanyarazi, ni byiza y'uko mu bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro habamo inyubako nziza ndetse n'umuriro kugira ngo birusheho gutanga ubuvuzi bunoze.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ni inzu ubona ko irimo ibitanda, ikabamo n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo n'iby'ikoranabuhanga. Ibi byose ni byo abaganga bifashisha bita ku buzima bw'abarwayi bityo ubuvuzi bugakomeza bugakataza.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite imihanda myiza ndetse n'ubusitani ubona ko bumeze neza. Ni inyubako ya Isange one stop center, ishami rya Remera. Iki ni ikigo gifasha abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kikabafasha kubona ubuvuzi ndetse n'ubutabera.

Umuntu wambaye isengeri, wambaye inkweto z'umukara bigaragara yuko yicaye arambuye amaguru akaba yafashe ku nkweto, biragaragara neza yuko arimo arakora siporo, ni byiza yuko twitabira siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero ipfuka no mu maso, ari kumwe n'umuganga we, urabona yuko ashobora kuba yagize ikibazo ku kuboko kwe kw'iburyo umuganga akaba ari kumupfuka anamuhambira bandana, ni byiza yuko igihe duhuye n'ibibazo turi muri siporo tugomba kugana abaganga bakadufasha.

ibikoresho byinshi birimo imipira yo gukina ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, biri kumwe n'igikoresho cyifashishwa kwa muganga bapima uko umutima utera; bigaragaza yuko ubuvuzi na siporo bitajya bisigana, dukomeze dukore siporo kugirango tugire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umwe ni umugabo undi ni umugore, biragaragara yuko umugore yicaye mu cyuma kinini cyane kimufasha mu gihe ari gukora siporo, ni byiza yuko tubungabunga ibi byuma kuko bidufasha gukora imyitozo ngororamubiri bitadusabye imbaraga nyinshi.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu yabugenewe mu gukora siporo, yicaye arambuye amaguru ndetse n'amaboko bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora iyi myitozo kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isaha ubona yuko ari kwikandakanda ku ivi, ikigaragara cyo yari arimo akora imyitozo ngororamubiri nyuma agira ikibazo, ni byiza yuko igihe tugize ikibazo turi muri siporo, tugomba kugana abaganga kugira ngo duhabwe ubuvuzi hakiri kare.

Amazi meza ari gusukwa mu kirahuri gifite isuku, ni byiza ko igihe turi gukora siporo cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugomba kunywa amazi meza asukuye, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Icyapa kinini cyane cyanditseho Rwanda Military Hospital, kiriho ibintu byinshi bigaragaza serivise zitangirwa mu bitaro bikuru bya gisirikare, ni byiza ko igihe ingabo y'Igihugu igize ikibazo yajya kwa muganga kugira ngo yitabweho, ubuzima bwayo bubungabungwe.

Abantu babiri, umwe ni umurwayi undi ni umuganga. Umurwayi yaryamye yubitse inda bigaragara y'uko ashobora kuba afite ikibazo mu mugongo, umuganga yamushyizeho akuma gasuzuma ikibazo afite, ni byiza rero y'uko igihe tugize ikibazo cy'uburwayi tugomba kugana muganga akadufasha.

Umukobwa aricaye yambaye isengeri, yambaye n'ipantaro bigaragara yuko ari muri siporo, yarambuye amaguru, yarambuye ukuguru kumwe n'ukuboko ukundi kuboko n'ukuguru yabihinnye, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora siporo hatitawe ku kuba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa kuko siporo ari ubuzima.

Umusore wambaye umupira ujya gusa n'umweru, yifashe ku kaboko k'iburyo, mu bigaragara hariho igipfuko cy'ubururu, bigaragaza y'uko yagize ikibazo, ni byiza ko igihe tugize ikibazo turi muri siporo tugomba kugana muganga akadufasha.

Umuntu wambaye agapira kamwegereye cyane wambaye utwuma tumufasha kumva umuziki ari kunywa amazi bigaragara y'uko yari ari mu myitozo ngororamubiri ni byiza y'uko tunywa amazi kugira ngo umubiri wacu ubone amazi ahagije mu gihe tuvuye gukora siporo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa kwa muganga. Iki gikoresho cyifashishwa barimo basuzuma uko umutima utera. Ni byiza yuko tujya kwa muganga kugira ngo badusuzume imiterere y'umutima wacu kugira ngo twivuze hakiri kare.

Umugabo n'umugore bazanye umwana wabo kwa muganga. Muganga ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga, areba amenyo y'umwana ngo arebe ahashobora kuba hari ikibazo. Ni byiza y'uko twivuza amenyo hakiri kare kugira ngo dukire uburwayi butandukanye bufata amenyo yacu.

Abantu babiri bambaye umwambaro ugaragaza yuko ari abakozi b'umuryango utabara imbabare Kuruwa ruje. Ni umuryango ufasha byinshi cyane harimo no gutabara ubuzima bw'abantu igihe buri mu kaga. Ni umuryango dukwiye gufatanya na wo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bari ahantu mu cyumba, umurwayi yicaye ku gatebe, biragaragara yuko yagize ikibazo ku ivi rye ry'iburyo, umuganga akaba ari kumupfuka. Ni byiza ko igihe tugize ikibazo turi muri siporo twakwihutira kugana muganga kugira ngo duhabwe ubutabazi bw'ibanze.

Abantu benshi barimo abari kwinanura, abari kwiruka, abicaye baterura ibyuma, abari gukina umupira, ndetse n'abandi. Ibi byose ni ibikorwa bikorerwa muri siporo. Ni byiza yuko urungano ndetse n'abandi bose twitabira gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, inkweto ndetse n'amasogisi, yazamuye ukuguru ahantu ku ruzitiro bigaragara y'uko arimo arakora siporo, ni byiza ko nkatwe urubyiruko dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Abantu benshi barimo n'abaganga. Ubona y'uko bari mu cyumba kirimo umurwayi wavunitse akaguru ariko bamushyiriyeho ak'ibyuma. Muri iki gihe, ikoranabuhanga risigaye ryifashishwa cyane mu buvuzi, aho umuntu ashobora gusimburanyirizwa ingingo, bakamuha izikoze mu byuma.

Umurwayi aryamye ku gitanda, yahinye ivi muganga arimo aramukandakanda, bigaragara y'uko ashobora kuba yagize ikibazo ari muri siporo, ni byiza ko igihe tugize ikibazo turi muri siporo twakwihutira kugana muganga kugira ngo tuvurwe hakiri kare.

Igare rigezweho. Iki ni igikoresho cyifashishwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo by'umwihariko abafite ubumuga bw'amaguru. Ni byiza yuko aya magare yegerezwa abantu nk'abo ngabo kugira ngo abafashe mu gukora ingendo.

Ibikapu bitandukanye birimo imiti myinshi, yifashishwa mu gihe abantu bari gukora siporo. Iyi miti ni ngombwa yuko yitwazwa n'abaganga, igihe bari muri siporo kugira ngo bahe ubutabazi bw'ibanze umuntu wagirira ikibazo muri siporo.

Umuntu wambaye umupira ujya gusa n'umweru. Afite agatambaro ubona yuko arimo yipfuka ahantu yaba yakomeretse. Ni byiza yuko duha ubutabazi bw'ibanze umuntu wagira ikibazo muri siporo, bityo tukamujyana kwa muganga ariko twabanje kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Iyi ni imiti myinshi itandukanye, ishobora kwifashishwa igihe umuntu avuye muri siporo yumva yagize ikibazo, kugira ngo arusheho kongera kugira umubiri muzima. Ni byiza y'uko igihe wumva ufite ikibazo ko ushobora gukoresha imiti yabugenewe, kugira ngo wongere utume umubiri wawe umera neza.

Abantu babiri. Umwe aricaye ku ntebe undi arahagaze. Bombi bafite ibikapu. Umwe ari kwinanura, undi uri kubona yuko ari kunywa amazi. Mu bigaragara bavuye gukora siporo. Ni byiza yuko ibyiciro byose dukangukira gukora imyitozo ngororamubiri; kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye isengeri yicaye yahinnye amavi, amaboko yiwe yayafatiye ku mutwe, bigaragara yuko arimo arakora siporo ni byiza ko dukangukira gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira amagara mazima.

Umuntu wikohoye. Ikigaragara cyo ku kaboko k'iburyo ashobora kuba yagize ikibazo kuko hagaragaraho ibipfuko. Ni byiza ko igihe umuntu ari muri siporo akagira ikibazo yakwihutira kugana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze hakiri kare.

Umukobwa uri mu cyumba yambaye imyenda ya siporo ubona ko ari gukora siporo, ni byiza ko buri muntu wese akora siporo kugira arusheho kugira ubuzima bwiza kuko zidufasha kurwanya indwara zitandukanye harimo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, dukomeze twite ku buzima bwacu dukora siporo.

Ibikoresho byinshi birimwo imbuto, imboga, ibikomoka ku matungo ndetse n'umuntu uri hagati urimo urakora siporo, ni byiza yuko igihe cyose twakoze siporo tugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye arambuye amaguru mu bigaragara yafashe mu birenge byiwe yarambuye amaguru, bigaragaza yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Ibi ni ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ga, harimo imikasi, harimo bandana ndetse n'ibindi bikoresho birimo n'inshinge, bishobora kwifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, igihe umuntu ahuye n'ikibazo. Igihe umuntu ahuye n'ikibazo mbere yo kumujyana kwa muganga, ni byiza ko hari ubutabazi bw'ibanze tumukorera kugira ngo adapfa atageze kwa muganga.

Ahantu heza harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byagenewe gukoresha mu gihe abantu bari muri siporo, ni byiza yuko tugana inzu zo gukoreramo siporo kugira ngo turusheho gukora siporo mu buryo butatuvunnye kandi turusheho kubungabunga ubuzima bwacu.

Umuntu wambaye impuzankano y'abaganga, yambaye ga mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa bigaragaza y'uko ari umuganga. Imbere ye hari mudasobwa. Ni byiza y'uko abaganga bagira ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze.

Abantu babiri barimo umugore wicaye ndetse n'umugabo ubona ko ari munini arimo akora siporo, ni byiza ko ibyiciro byose dukangukira gukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza ndetse turusheho kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara bigaragara yuko yari ari muri siporo, afashe icupa ry'amazi ari kuryimenaho. Iki ni kimwe mu bikorwa bikorwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri, hagamijwe kugabanya ubushyuhe bw'umubiri kugira ngo umuntu bitaba byamuviramo uburwayi.

Urukweto, umupira ndetse n'igikoresho kifashishwa basuzuma umuntu kwa muganga. Ibi byose ubihurije hamwe biragaragaza yuko siporo ikwiye kujyana n'ubuvuzi kandi ko siporo ari ingenzi mu gutuma habaho ubuzima bwiza.

Umuntu urimo ufata icyo kunywa wambaye ekuteri, ni byiza ko igihe turi muri siporo dufata ibyo kunywa birimo amazi ndetse ni byiza ko dushobora gukora siporo turimo twumva n'umuziki. Ariko ntabwo ari byiza kwambara ekuteri igihe kirekire kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku matwi yacu.

Umukobwa wambaye ikabutura n'isengeri bigaragara yuko ko ari muri siporo, yicaye yarambuye amaguru afashe mu birenge. Ni byiza yuko twese dukangukira gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye isengeri, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, yafatiye amaboko inyuma y'umutwe bigaragara y’uko arimo arakora siporo. Ni byiza y’uko abantu twese dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ingenzi cyane, siporo ni ubuzima.

Abantu babiri barimo umuganga ndetse n'umuntu usanzwe, ubona ko wagize ikibazo ari muri siporo. Ni byiza ko igihe turi muri siporo tukagira ikibazo, tugomba kugana abaganga kugira ngo badufashe kubona ubuvuzi ubuzima bwacu burusheho kumera neza.

Umukobwa wambaye ekuteri, wambaye isengeri, ufite imisatsi miremire ipfunditse ku mutwe, ari kunywa amazi akoresheje gurude, ni byiza ko igihe tuvuye muri siporo tunywa amazi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, amazi ni ubuzima.

Imiti myinshi, izinze, iri mu masashe ndetse n'iri mu macupa, yose yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo ari muri siporo. Mu gihe turi mu myitozo ngororamubiri ni byiza yuko haba harimo n'abaganga kugira ngo uwagira ikibazo ahabwe ubuvuzi.

Umuntu uri mu cyumba uryamye ureba hejuru ubona ko yambaye imyenda yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri yahinnye ukuguru kumwe agufatisha amaboko ye ukundi kurarambuye bigaragara yuko ari muri siporo ni byiza yuko twese dukangukira gukora imyitozo ngororamubiri kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugore upfukamye warambuye amaboko hasi, wambaye impuzankano bigaragara ko ari muri siporo. Ni byiza ko abakobwa ndetse n'abagore bose bakangukira gukora siporo kuko siporo ni ubuzima.

Abantu babiri, ubona ko umwe ari umuganga, undi ari umurwayi, yagize ikibazo ku biganza bye byombi, muganga ari kumupfuka, ni byiza ko igihe duhuye n'impanuka zadukomeretsa tugomba kugana muganga, kugira ngo duhabwe ubuvuzi mu gihe cyihuse.

Abantu babiri umwe ubona yuko afite ubumuga ari kugendera ku mbago, undi afite umupira bigaragara yuko bajyanye gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza yuko ibyiciro byose tudasiganye dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Umuntu wifubitse igitambaro uri kunywa amazi, bigaragara yuko yari ari muri siporo nkurikije uko yambaye. Ni byiza yuko igihe umuntu ari muri siporo agomba no kunywa amazi kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze ,kuko amazi ni ubuzima.

Ibikoresho bitandukanye birimo imipira yo gukina ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, iki ni ikimenyetso kigaragaza y'uko siporo n'ubuvuzi bitajya bisigana kuko siporo ari ubuzima.

Umuntu wambaye agakabutura kagufi k'umukara, mu bigaragara yagize ikibazo ku ivi rye ry'iburyo. Ni byiza ko igihe duhuye n'ibibazo turi muri siporo tugomba kugana muganga kugira ngo duhabwe ubuvuzi hakiri kare.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara, ibigaragara yicaye ku gitanda arimo arinanura, bigaragara y'uko arimo akora siporo, ni byiza yuko abantu twese haba abakobwa n'abahungu, abakuze n'abato dukangukira gukora siporo.

Umukobwa wambaye isengeri, mu bigaragara byo yacishije ukuboko kumwe inyuma y'umutwe, afata mu mugongo, ukundi agufatisha inkokora yiwe, yambaye ekuteri, bigaragara yuko ari gukora siporo, ni byiza yuko n'abakobwa bakangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Umuntu w'umugabo uri mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, mu bigaragara arimo araterura icyuma kiremereye na byo ni siporo, ni byiza yuko twese dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Abantu babiri. Umwe yicaye yahinnye ukuguru. Ari kumwe na muganga, biragaragara yuko uyu muntu ashobora kuba yari muri siporo akagira ikibazo ku ivi rye ry'ibumoso. Akaba ariyo mpamvu yagiye kureba muganga kugira ngo abashe kumwitaho. Ni byiza ko tugana abaganga igihe duhuye n'ibibazo turi muri siporo.

Ibikoresho bibiri ari byo ijagi ndetse n'ikirahure, umuntu ari gufata amazi yari ari mu ijagi akayasuka mu kirahure ubona ko gifite isuku bigaragara ko agiye kuyanywa, ni byiza yuko igihe tugiye kunywa amazi tugomba gukoresha ibikoresho bisukuye tukanywa amazi asukuye tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu bane bambaye imyenda n'inkweto byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri bari kwiruka. Kwiruka ni kimwe mu bikorwa bigize siporo ni byiza y'uko twese dukangukira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Ni byiza cyane bifite amababi y'icyatsi kibisi, ubona y'uko byitaweho, ni byiza y'uko twita kuri ibi bimera, kuko ari isoko y'imiti ndetse n'umwuka duhumeka, dukomeze twite ku bidukikije, bityo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibimera byiza cyane bifite amababi y'icyatsi kibisi, ubona y'uko byitaweho, biri ahantu ku gatanda, ubona y'uko bifashwe neza. Ni byiza y'uko tubungabunga ibi bimera kuko ari isoko y'imiti ndetse n'umwuka duhumeka.

Igiti cyiza cyane ubona ko gifite amashami ndetse gifite n'amababi agitoshye. Ni byiza yuko twita ku bidukikije kuko ari isoko y'imiti ndetse bikaba binadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, tudasize n'uko binaduha imbuto z'ingirakamaro mu buzima bwacu.

Ibimera gakondo byinshi bitandukanye ubona y'uko bitoshye bifite amababi y'icyatsi kibisi. Ibi ni ibimera bikwiye kwitabwaho cyane bikabungabungwa kuko ari isoko y'imiti gakondo ndetse n'umwuka duhumeka.

Ibimera byiza cyane bifite amababi atoshye, ibi ngibi kimwe n'ibindi byifashishwa mu gukora imiti gakondo twifashisha twivura indwara zitandukanye zirimo inzoka inkorora, ibicurane, ndetse n'ibindi. Ni byiza rero yuko buri wese akwiye gukangukira kubibungabunga.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, ubona ko gitoshye, ni ikimera kidufasha byinshi kuko kivamo umuti ndetse kikanatanga umwuka duhumeka, ni byiza rero ko tubibungabunga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikimera cyiza ubona ko gitoshye gifite amababi y'icyatsi kibisi, ibi bimera bigomba kubungabungwa kuko ari isoko y'imiti ndetse bikaba binadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, dukomeze tubibungabunge.

Ikimera cyiza gitoshye ubona yuko gifite amababi y'icyatsi kibisi; ibi ni ibihingwa ndetse n'ibimera gakondo bidufasha mu kubona imiti ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka, dukomeze tubibungabunge kuko ari ingirakamaro.

Abantu benshi biganjemo abo ubona yuko ari abo mu nzego z'ubuyobozi, bari ahantu hateye ibikakarubamba, ni byiza yuko tubungabunga ibimera nk'ibi ngibi, kuko ari isoko y'imiti twifashisha mu buvuzi bwa buri munsi.

Isahani nziza y'umweru, iriho amacunga akase ndetse irimo n'umutobe wayo, ni byiza yuko tunywa imitobe ikomoka ku mbuto itongewemo ibindi bintu ibyo ari byo byose, nibwo tuba tubonye intungamubiri zuzuye.

Umuntu bigaragara yuko ari umujyanama w'ubuzima, ari kugira inama kwita ku mirire myiza, aho ababwira ko nibatarya ibiryo nk'imiti bazasigara barya imiti nk'ibiryo, ni byiza ko twita ku ifunguro rinoze kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ububiko bw'imiti gakondo, ubona yuko iri mu ducupa, iri mu masashe, ndetse no mu dukarito. Iyi miti ni ingenzi cyane mu buvuzi kuko ikoresha ibimera gakondo bitongewemo ibindi binyabutabire, bishobora kugira ingaruka ku buzima bwacu.

Amacupa ane ari mu ngano zitandukanye ndetse no mu mabara atandukanye. Ikigaragara cyo yose arimo ubuki. Ubuki ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, niyo mpamvu dukwiriye gukangurira buri wese kurya ubuki kuko ari ingenzi cyane

Amacupa agera kuri atanu, mu bigaragara harimo imiti irimo amabara atandukanye. Iyi miti iva mu bimera gakondo, ni byiza ko tubungabunga ibimera gakondo kugira ngo turusheho kubona imiti twifashisha mu buvuzi ndetse tubone n'umwuka duhumeka umeze neza.

Ibikombe bibiri by'ibirahure. Ibigaragara mo imbere harimo umuti wakamuwe mu bimera gakondo nta kindi kintu kivanzemo. Ni byiza yuko ibi bimera tubibungabunga kugira ngo turusheho kubona imiti bitadusabye kujya gukoresha imiti yo kwa muganga. Dukomeze tubibungabunge.

Amacupa menshi ari mu ngano zitandukanye, ndetse no mu mabara atandukanye, mu bigaragara aya macupa yose arimo imiti ivamo ibimera gakondo, ni byiza ko dukoresha iyi miti, kuko iba ari umwimerere, kandi ni byiza ko tubungabunga ibimera byacu kuko aribyo biduha iyi miti.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ari mu ngano zitari zimwe ndetse no mu mabara atandukanye, ibigaragara ni uko harimo imiti yifashishwa gakondo, ni byiza yuko tuyibungabunga kuko na yo ivura.

Ikimera kimeze neza kizwi ku izina ry'igikakarubamba, iki ni ikimera kidufasha mu kwivura indwara zitandukanye zirimo n'inzoka zo mu nda, ni byiza yuko tubungabunga ibimera nk'ibi ngibi kuko ari ingirakamaro mu buzima bwa muntu.

Amacupa, udukarito ndetse n'amasashe, ubona ko biri mu mabara ndetse no mu ngano zitandukanye, ibi byose birimo imiti ikomoka ku bimera gakondo, ni byiza ko tubungabunga ibimera gakondo kuko ari isoko y'imiti dukoresha mu buvuzi.

Ibimera byiza, bifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi. Mu bigaragara ni umuravumba. Iki ni ikimera kidufasha cyane mu kubona imiti gakondo, ndetse no kwivura indwara zitandukanye. Ni byiza yuko tubungabunga ibimera gakondo, kugira ngo turusheho kubona imiti y'umwimerere, ndetse turusheho no kubona umwuka duhumeka, umeze neza.

Umugabo uri mu cyumba ubona ko kirimo imiti myinshi gakondo. Biragaragara yuko ari guca kuri televiziyo y'u Rwanda, hagaragazwa yuko bikwiriye ko hanozwa urwego rw'ubuvuzi gakondo kuko na rwo ari ingenzi mu buvuzi buteye imbere bw'igihugu cyacu.

Ibimera byiza cyane bitoshye, bifite amababi y'urwatsi rubisi bigaragara yuko byitaweho, ibi bidufasha kubona imiti gakondo ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka. Ni byiza yuko nk'abaturarwanda twese ndetse n'abatuye isi tubibungabunga.

Ikimera cyiza cyane gifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi. Ibimera ni isoko y'imiti gakondo ndetse binadufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka ni byiza y'uko twese hamwe nk'abatuye isi tugomba kubibungabunga.

Amacupa atatu afite ibara ryera, mu bigaragara ari mu ngano zitandukanye, aya macupa icyo ahuriyeho arimo imiti ikomoka ku bimera gakondo, ni byiza yuko tubungabunga ibimera gakondo kuko ari isoko y'imiti n'umwuka duhumeka.

Amacupa menshi ubona yuko abonerana ariho utwapa tw'umweru, amwe afite imifuniko y'umweru andi akagira imifuniko itukura, mu bigaragara harimo imiti ikomoka ku bimera gakondo, ni byiza yuko dukoresha iyi miti ariko igihe itatuvuye ni byiza yuko twajya kwa muganga.

Icupa ryiza cyane riri mu ibara ry'icyatsi kibisi ririho icyapa kigaragaza yuko harimwo umuti ukomoka ku muravumba, uyu muti ni umwimerere kuko udufasha mu kwivura indwara zitandukanye tudasabye kujya kwa muganga, harimo nk'inzoka, inkorora ndetse n'izindi.

ibikarito biri mu mabara atandukanye ariko byose byanditseho foriseva soribo, bigaragaza yuko harimo imiti gakondo ituruka ku bimera biboneka hirya no hino mu bidukikije, ni byiza yuko ibi bimera bibungabungwa kugirango turusheho kubona iyo miti y'umwimerere.

Umuntu ufashe ikimera cyiza gifite amababi y'icyatsi kibisi, mu bigaragara cyo kiratoshye neza, ni byiza y'uko tubungabunga ibimera nk'ibi kuko bidufasha mu kubona imiti ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka.

Ibikombe bibiri by'ibirahure, mu bigaragara muri byo harimo ibimera ndetse n'amazi, ubona y'uko ari imiti gakondo, iyi miti gakondo ni ingenzi cyane mu buvuzi, kuko idufasha kwivura indwara zitandukanye bidasabye y'uko dukoresha imiti yo kwa muganga.

Amacupa abiri ari mu mabara y'umuhondo, afunikishije imifuniko y'umukara. Yegereye ikirahuri kirimwo amatembabuzi y'umweru. Bigaragara yuko ari umuti ukomoka ku gikakarubamba. Uyu muti uvura indwara nyinshi zitandukanye, bidasabye yuko umuntu akoresha ibinini, bituruka kwa muganga.

Ibimera byiza bifite amababi y'icyatsi kibisi ubona ko bitoshye. Ibi bimera bidufasha byinshi harimo gutanga imiti gakondo ndetse no gutanga umwuka duhumeka. Dukomeze tubibungabunge kuko ari isoko y'imiti gakondo.

Amacupa menshi y'ubwoko butandukanye: harimo amaremare, harimo amagufi, harimo amanini, hari n'ayo ubona ko aringaniye. Witegereje neza urabona ko arimo imiti ikomoka ku bimera gakondo. Ni byiza ko dukoresha iyi miti kuko nta binyabutabire biba byongewemo kandi ikaba ivura neza cyane.

Ibimera byiza bifite amababi atoshye ubona yuko asa n'icyatsi kibisi, ibi bimera ni ngombwa ko tubyitaho kuko ari isoko y'imiti gakondo ndetse bikaba binadufasha kuyungurura umwuka duhumeka, dukomeze tubibungabunge.

Abantu babiri, umwe ni umugabo, undi ni umugore, mu bigaragara bari ahantu mu kigunda, ni byiza y'uko ibimera nk'ibi ngibi tubibungabunga kuko ari isoko y'imiti dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'umwuka duhumeka, dukomeze tubyiteho kugira ngo bidacika.